Itsinda ry'abantutu benshi, harimo umuganga n'uri kumufasha gutsindagira ikintu igipupe bari gukoreraho ubushakashatsi, igitambaro kiryamweho n'icyo bari gukoreraho ubushakashatsi n'abandi bantu bambaye amapantaro n'undi muntu umwe wambaye igitenge n'itaburiya.

Inzu nziza, imbere mu rugo harimo jaride, hari amajerekani, amabase, indobo, amasahani, amajerekani, hari n'abantu baturutse muri kuruwa ruje bari gufasha umukecuru, imodoka ziparitse, ibiti, amabati.

Imbere mu nzu hateye irangi ry'umweru ryiza, agatanda kariho utubuwate turiho ibara ry'umutuku twanditseho zipulayine twifashishwa n'utudege tutagira abapilote mu gukwirakwiza amaraso mu bitaro bitandukanye, ho na firigo eshatu harimo imwe y'umweru n'izindi z'ubururu.

Mu biro harimo abantu batandatu, harimo abanyafurika batatu n'abazungu batatu, ndabona mudasobwa enye, ndabona ameza ziteretseho, ndabona intebe, urugi rurafunguye.

Inzu imbere ifite amakaro y'umweru, icyuma gicometse mu muriro w'amashanyarazi biciye muri purize, umuntu wambaye imyenda y'umweru yambaye apfukamunwa, arimo aramurika, icyuma cyifashishwa mu gukora ubushakashatsi.

Muganga wambaye imyenda y'ubururu, ga, umukasi, ibyuma bya bugenewe byo kubaga, umurwayi ku gitanda.

Depo y'imiti igikuta cyawo gisize irangi ry'umuhondo, harimo imiti y'amoko atandukanye mu ducupa, mu bikarito,...

Iguriro ry'imiti imanitse muri etajeri, kontwari iriho amakayi, abaganga babiri bishimye harimo umuhungu ndetse n'umukobwa, imashini n'intebe zo kwicaraho.

Dore mu nzu nziza icururizwamo imiti itandukanye, etajeri ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, irimo ibirahure, kontwari nayo niko bimeze, irimo imiti myinshi, harimo n'intebe, harimo hahagazemo umuntu wambaye ishati y'amabara, hakabaho n'icyapa.

Ubuvuzi gakondo ifite igikuta cy'umuhondo etajeri y'umutuku n'umweru. Harimo imiti itandukanye, harimo amavuta y'intare. Harimo imiti iri mu ducupa dutandukanye.

Abantu batatu, bambaye udupfukamunwa. Babiri bari gukaraba intoki. Urukarabiro, icyapa, insinga z'amashanyarazi amapoto, amabati.

Intebe n'icupa ry'amazi riri ku idirishya, umuganga uri gupima ikizamini cy'amararaso, umurwayi w'umumama, udupima dupima amaraso, amakarito avamo inshinge n'intebe.

Imbere mu biro hateye irangi ry'umuhondo ku gikuta, harimo mudasobwa, harimo n'uri kuyikoresha yambaye itaburiya y'umweru, hari impapuro, hari ameza ariho igitambaro cy'umukara, hariho agafatanya amapapuro, hari n'intebe.

Imbere mu bitaro byiza, amatara, inzitiramibu, ibitanda, amashuka, amadirishya, abarwayi n'abarwaza.

Ndimo ndabona umubyeyi mwiza uhetse umwana, afite agakapu, akikorera agafuka k'umuhondo, hari ahantu hari amafirabeto, hari ahantu imbere yabo ari icyapa ndetse hari n'urukarabiro rwa kijyambere.